kuri iyi foto turahabona abakozi ba emutiyeni, hakaba hagaragara umwe ugaragaza mesaje, bishoboka ko hari icyo yaba yatsindiye muri iyi kompani ya emutsiyeni, mu buryo bwo kwamamaza rero, bakoresheje uyu muntu, kugira ngo agaragaze iyi mesaje yahawe.